Abantu bari mu cyumba cy'inama, harimo uwambaye tisheti y'ubururu uri kwandika, imbere hateretse amazi, n'undi umuri iruhande ufite ikaramu mu ntoki, icupa ry'amazi.

Abantu bari mu mahugurwa bambaye imipira y'umukara, iriho idarapo ry'u Rwanda; ndetse ni urubyiruko, umwe arahagaze, umusore afite indangururamajwi mu biganza bye.

Umugabo wambaye ikoti, ndetse afashe indangururamajwi mu kiganza cye cy'ibumoso, ari kuvuga, imbere ye hicaye abantu bamukurikiye, ndetse bateze amatwi, imbere yabo hari amacupa y'amazi.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru, bari mu nama imbere yabo hari ameza, hariho ibitambaro bifite ibara ry'umweru ndetse aya meza ateretseho amacupa y'amazi, imbere yabo hari umuntu uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Urubyiruko rwambaye imipira y'ubururu. Rufite amakayi imbere yabo ndetse n'amacupa y'amazi. Ibi biteretse ku meza afite ibitambaro by'umuhondo ndetse n'intebe zisa umuhondo ndetse n'iz'umweru.

Icyumba cy'inama kirimo imeza z'umukara ziteretseho amamashini n'intebe impande zabyo imbere hari abantu batandukanye abagore n'abagabo bahagaze.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umutuku n'umukara, ateretseho amazi y'inyange ndetse n'indangurura majwi, inyuma y'abo bantu hari intebe ziticayeho abantu.

Abantu batatu bambaye imipira y'ubururu isa ndetse inyuma yabo hari abandi babiri umusore n'umukobwa bambaye imyenda isanzwe, uyu mukobwa yambaye amarineti ndetse ari guseka.

Umugore w'umwirabura ufite imisatsi miremire, yambaye ikanzu y'umweru irimo imirongo y'umukara. Imbere ye hari akameza gateretseho indangururamajwi, ndetse kanditseho inyuguti rgb.

Inama yerekana abantu bari mu nama, harimo abera n'abirabura, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru n'amarinete, imbere ye hari imashini n'amazi ku meza.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara zisa ndetse imbere yabo hari ameza hariho ibitambaro by'umweru n'ibitambaro bitukura, aya meza ateretseho amacupa y'amazi ndetse imbere yabo hari abandi bari kubaha inama.

Abantu benshi bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umutuku, ariho ikirahure ndetse ayo meza ateretseho amacupa y'amazi.

Abantu bicaye mu nama bafite impapuro, imbere yabo n'ibyo kunywa, harimo amazi na ji, bambaye.

Umugabo wambaye amarineti ndetse yambaye ishati ya shokora, afite ikarita mu ijosi, ndetse inyuma ye hari abandi bakobwa bahicaye, imbere yabo hateretse amazi y'inyange.

Abantu bicaye mu nama ndetse ni benshi, bicaye ku mpande eshatu zitandukanye ndetse bari kurebana, imbere yabo hari ameza, ariho igitambaro cy'umweru ndetse ateretseho amacupa y'amazi n'amakayi.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bagiye bazengurutse amameza harimo abari kwandika n'abakurikiye inama.

Abantu bambaye imyenda myinshi ijya gusa umuhondo n'icyatsi, bari muri sitade bateranye.

Umugabo mu cyumba cy'inama umugabo ahagaze imbere y'abantu, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru na baji y'ubururu na mikoro mu ntoki, abandi bamuri imbere bafite amazi ku meza.

Abantu bicaye mu nama ndetse imbere yabo hari ameza afite ibara ritukura, ateretseho amacupa y'amazi ndetse n'indangururamajwi, inyuma hari abantu bafite kamera.

Abantu bicaye biganjemo abagabo bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hari ameza afite ibara ritukura ateretseho indangururamajwi n'amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu bari mu nama, biganjemo urubyiruko. Imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi ndetse imbere y'aba bantu hari ibyapa biriho amadarapo y'u Rwanda.

Abantu bicaye, bicaye mu ishitingi rifite ibara ry'umweru, riteguye neza ndetse bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza afite ibara ritukura ndetse ateretseho telefone n'igitabo.

Abantu bicaye mu nama biganjemo abagabo, imbere yabo hari ameza ateretseho amakayi, amacupa y'amazi y'Inyange ndetse na mudasobwa, ku murongo wa kabiri hariho umugabo wambaye imyenda y'abadaso ifite ibara ry'icyatsi.

Abantu bicaye bateranye, bambaye amakositime n'amabaji y'umuhondo n'ubururu bashoreranye ku mirongo myinshi bavanze abagore n'aba

Abaturage benshi bicaye, biganjemo abagore. Barifubitse ndetse bateze amatwi abantu bari imbere yabo, inyuma hari abandi bahagaze barimo abasore.

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere hari umugabo wambaye ikoti ndetse na karuvati n'umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'ubururu n'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa n'indangururamajwi.

Abantu bicaye mu nama, imbere hari umugabo wambaye ikoti ndetse yambariyemo n'ishati, imbere ye hari ameza afite igitambaro cy'umweru ndetse ateretseho icupa ry'amazi.

Abantu bicaye barebana bicaye ku ntebe z'ibiti ndetse ku ruhande hari umusirikare uhicaye imbere yabo hari ameza matoya ateretseho ururabyo.

Abantu bicaye mu nama, biganjemo abagabo bambaye amakoti ndetse na karuvati, harimo n'abagore ndetse bose bari kureba mu gihande k'imbere.

Umugore uri imbere y'abaturage ari kuvugisha, wambaye ipantaro y'ubururu usutse, imbere ye hicaye aba mama benshi bari kumurreba.

Inama irimo abantu batandukanye, umwe yicaye ku ntebe z'umukara, umwe afite imashini imbere ye, undi afite amazi imbere ye, abandi bafite ibikapu imbere yabo, bari kureba imbere iyo inama iri kubera.

Abantu bicaye. Ni abazungu ndetse n'abirabura, bicaye ku ntebe, z'amadiva, zifite ibara ry'umuhondondetse hagati yabo hateretse ameza ateretseho ururabo.

Abantu bicaye, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi ndetse n'impapuro, iruhande rw'aba bantu hari umugabo uhagaze wambaye ikoti, ndetse ari kubasomera ibintu biri imbere.

Abantu bicaye ari benshi, imbere hari babiri b'abagore, umwe wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, undi yambaye ikoti ry'umweru ndetse n'ishati y'icyatsi.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe z'umukara n'imeza z'umutuku ku meza hari amacupa y'amazi.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi y'inyange ndetse n'indangururamajwi, aba bantu bambaye amakoti.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama, harimo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse amamashini, bicaye ku ntebe z'umukara.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama imbere yabo hateretse amacupa y'amazi n'ibirahure n'ibitabo na terefone ziteretse ku meza.

Abantu bicaye abagabo babiri ndetse n'abagore babiri, imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi, ikayi ndetse n'amatelefone yabo.

Abantu benshi barimo abagabo bambaye amakoti ndetse n'abambaye amashati, abagore bambaye imishanana ndetse inyuma yabo hari inzu ifite ibirahuri by'icyatsi, bifite ibyapa byanditseho Kigali.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bicaye bafite amazi ku meza n'imashini imbere yabo bari guseka babiri begeranye bambaye rinete.

Abantu babiri bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho amakayi bari kwandika, ni umugore n'umugabo, ndetse hateretse n'icupa ry'amazi.

Umugore ufite umusatsi muremure, yawufungiye inyuma, yambaye imyenda y'umukara ndetse afite indangururamajwi mu kaboko ke k'iburyo, iruhande rwe akikijwe n'abaturage bamuteze amatwi.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara, bitabiriye inama ndetse bicaye munsi y'ihema ridekoye neza, harimo abambaye amarineti ndetse biganjemo abagabo.

Abantu bicaye ku ntebe, ziganjemo izifite ibara ry'umweru. Bicaye mu buryo bose babasha kureba umuntu uri kubaganiriza uhagaze imbere yabo. Yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'icyatsi.

Abantu bari mu nama. Bicaye ku ntebe zifite ibara rya oranje ndetse n'intebe z'umukara. Imbere yabo hari ameza ndetse ateretseho amacupa y'amazi. Imbere hari umugabo ufite indangururamajwi, wambaye ikoti ry'umukara uri kubabwira.

Icyumba k'inama kicayemo abantu batandukanye harimo umwe uhagaze abandi baricaye bari kureba mu mumashini, hejuru hari kwaka amatara.

Umugore wumwirabura wambaye ikanzu y'umuhondo ndetse uteze igitambaro, mu kaboko ke k'iburyo afashe indangururamajwi ndetse imbere ye hateretse mudasobwa.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza ariho amakaye, umukobwa umwe wambaye umupira w'icyatsi, afite ikayi ari kwandika ndetse abandi bari kureba ku ruhande.

Ikinyabiziga gishinzwe gukora imihanda kiri mu busitani ndetse inyuma y'ubwo busitani hari inganda izo nganda zisize amabara y'umweru n'urundi rusize irangi ry'ibara ry'icyatsi ryerurutse izo nganda ziri ahitaruye.

Abantu begamye kurukuta harimo uwambaye ekuteri n'undi wafunze imisatsi n'undi bambaye ingofero bari kureba muri terefone.

Abagabo bahagaze n'umugore umwe yambaye ijire na kasike y'umuhondo, umumuma ufite terefone mu ntoki, wambaye isaha ku kuboko na rakosite y'umweru.

Abagabo bari kureba muri terefone, umwe yambaye rakositi y'umweru, undi wambaye ishati, ufite amadosiye y'umutuku mu ntoki, n'undi wambaye, bose bambaye agapfukamunwa.

Abantu bari kumena beto. Ni abafundi ndetse bambaye amajire y'akazi, afite ibara ry'icyatsi ndetse n'imirongo y'umweru. Bambaye ingofero zabugenewe, zibarinda gukora impanuka.

Abanyeshuri bicaye aba banyeshuri bicaye mu ishuri ndetse bambaye impuzankano imbere yabo buri mwana afite mudasobwa yagenewe abana biga mu mumashuri abanza, izi mudasobwa zifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi.

Abantu bicaye kumeza, bateretseho amamashini, kumeza hariho n'ibikombe by'icyayi.

Itangazo ryerekana uburyo habura iminsi itanu, uburyo bwo kwerekana, kumenyekanisha umusoro ku nyungu, izarangira ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane.

Icyapa kiri aho inama iri kubera kiri mu mabara y'umweru, n'umukara cyerekana uburyo wafasha umuntu muri connection.

Abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umuhondo ndetse ateretseho mudasobwa, buri muntu afite mudasobwa imbere ye y'umukara.

Serivisi z'irembo zerekana uburyo bwo gukoresha irembo bushya buri mu ibara ry'ubururu n'amagambo y'umweru.

Umunara muremure, ufite ibara ry'umweru, uriho amatara manini ndetse hejuru haragaragara ikirere gifite ibara ry'ubururu, kirimo n'ibicu by'umweru.

Umuhungu uhagaze wambaye ijezi n'ipantaro n'inkweto z'umukara uhagaze imbere y'umumama wambaye lakosite y'umweru uri kwandika....

Umuntu uri imbere y'imashini, wambaye ishati y'umutuku irimo utudomo tw'umweru, uri kuri serivisi z'irembo. Imbere ye hari na terefone iteretse ku meza, hari nimeza imbere ye.

Icyapa cya Rwanda reveni otoriti, kiriho amagambo agira ati "gutangiza ku mugaragaro ukwezi ko gushimira abasora." Iruhande hari andi magambo agira ati" dufatanye kuzahura ubukungu".

Abantu bahagaze biganjemo abasore ndetse bari kureba muri telefone inyuma yabo hari umugabo ufite kamera ari gufata amashusho.

Acyapa cy'irembo cyerekana serivisi zavuguruwe ku irembo, handitseho amagambo agira ati serivisi nshya ku rubuga irembo govu, hasi hagakomeza ikigo gitanga serivisi, ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare.

Imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse iruhande rwayo haparitse moto ifite ibara ritukura ndetse imbere gatoya hari amakona abiri, rimwe rirahagaze irindi riraryamye.

Ubutumwa bwa Rura, Rura ni ikigo gikorera mu rwanda ndetse iyo ukeneye kugihamagara kanda gatatu icyenda umunani, umunani, iki kigo kiragira kiti tekereza kabiri mbere yuko ukanda umubare w'ibanga.

Abantu bicaye ari benshi bateze amatwi, imbere yabo hari ameza afite ibara rya shokora ndetse amaguru yayo n'ibyuma, imbere yabo hari umugabo uhagaze ndetse hejuru hari imirima minini iteyemo ibiti.

Abantu bari mu kazu, wambaye la kosite n'undi uri hanze ya giriyaje, wambaye ishati y'umuhondo uri kubasaba serivisi.

Inzu y'ubucuruzi itanga serivisi z'irembo n'iza banki banafora amafoto ya pasiporo, hari icyapa cyaba papeteri.

Akazu kubatse mu biti n'imbaho gakoreramo abagenti ba Rwanda reveni n'aba ekwiti n'aba banki ya beka.

Abantu bicaye mu ntebe z'umweru ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa. Ndetse abantu umwe yambaye umupira w'umukara n'ingofero undi yambaye ikoti ririmo ibara ry'icyatsi.

Umugabo uri kwamamaza yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umukara, yambaye amarineti afashe mudasobwa mu biganza bye, ndetse iki cyapa cyanditseho kwigaragaza ku bushake, amahirwe ari mu kwigaragaza ku bushake.

Itangazo ry'irembo, riragira riti intambwe ya gatatu, hitamo kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'icyiciro kisumbuye.

Aha free zone aho imodoka zitanyura hari hirya amahema y'umweru n'umutuku hariko kuberamo imurika gurishwa n'amavazi agiye ateretswe mu nzera.

Serivisi z'irembo zerekana ceritifika yo gushyingiranwa wabona kuri serivisi z'irembo ziri kuri ww.iremba. domentran.

Ipato y'amashanyarazi rirerire rihuriweho insinga nyinshi ikozwe mu byuma hari n'ibiti munsi yacyo.

Inzu y'ubucuruzi imbere yayo hari ifopo y'amashanyarazi hari n'amamodoka impande yayo impande yayo hari naho bacuruza gaze hejuru hari n'ibiti biri mu mavaze.

Ipoto iriho amatara abiri areba ku bihande bibiri bitandukanye. Iyi poto iriho insinga zijya mu byerekezo bitatu bitandukanye, ndetse iruhande rw'iyi poto hateye ibiti.

Inzu y'iduka icururizwamo ibintu bitandukanye. Ifite ibara rya orange ndetse imbere yayo hari ifoto rirerire ririho insinga nyinshi zijyana umuriro mu byerekezo bitandukanye.

Umunara w''amashanyarazi ufite amabara y'umuhondo n'umweru munsi hari n'itara ryo kumuhanda n'ibiti impande yabyo.

Inzu isize irangi ry'umuhondo ndetse ifite amabati atukura, ifite uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye ndetse uru ruzitiro ruriho icyapa cyanditseho kane. Hari urupangu rufite ibara ry'umukara.

Ipoto y'amashanyarazi ishinze, ifite ibibogisi bifasheho insinga, inyuma hakorotiriye amabati, hateye n'ibyatsi hasi.

Umugabo uri kugenda mumuhanda wigitaka uyu mugabo yambaye umupira wumukara ipantaro yumukara irimo umurongo wumweru ndetse ninkweto z'umukara ari kuvugira kuri terefone ndetse ahetse igikapu iruhande rwe hari ibyatsi bihateye.

Inzu y'igorofa, ifite irangi ry'muhondo, imbere yayo hari ipoto ririho insinga nyinshi z'amashanyarazi, zijyana mu byerekezo bitandukanye. Imbere y'iri poto hari abantu benshi bari kugenda.

Abamotari bahagaze iruhande rw'igipangu gisize irangi ry'umuhondo ndetse cyanditseho inyuguti mtn. iruhande rw'uru rupangu hari imitaka ifite ibara ry'umuhondo ya mtn.

Umunara ufite amabara abiri, umweru na oranje, uzitiye, werekana yuko aho ngaho hari amashanyarazi.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga, inyuma yaho hari n'ibiti biteye byinshi.

Imodoka ebyiri ziparitse iruhande rw'umuhanda, izi modoka zifite ibara ry'umweru ndetse iruhande hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye giteyemo ibiti byinshi.

Umuhanda nyabagendwa ugaragara igice kimwe cy'umuhanda, iki gice kirimo imodoka ifite ibara ry'ubururu ndetse inyuma yayo hari moto, iruhande rw'uyu muhanda hari inzira y'abanyamaguru ndetse irimo abantu, iruhande hateye ibiti.

Icyuma, gishyirwa, ahantu, habujijwe, gutambuka. Gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru. Iruhande rwacyo hahagaze, umasekirite bashinzwe kubuza abantu. Ndetse hari abantu bari kugenda mu muhanda.

Inzu irimo ibara ry'umutuku hasi no ku nkuta ibara ry'ubururu n'umweru n'intebe ziri ku ruhande n'idirishya ibumoso...

Muri parikingi z'imodoka haparitsemo imodoka y'umukara na za ambulanse hirya yazo bigiye birebana.

Abamama n'abagabo bateraniye hamwe imbere y'inzu bicaye ku ntebe ndende, harimo abambaye ibitenge n'imyenda isanzwe, n'abasiramu bitandiye.

Ibyumba by'amashuri imbere hahagaze umwarimu wambaye itaburiya, uri kureba muri telefone, ufite n'agapfukamunwa.

Abagore babiri, bari imbere y'imashini, bari kuzirebamo ,umwe yambaye ipantaro y'umukara, n'ishati iciye amaboko y'ubururu, undi wambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'amabokoko maremare, y'umuhondo bari kureba mu mashini.

Umugabo ushinzwe umutekano yambaye umwenda w'akazi uriho ikirango ku kaboko k'ibumoso ndetse yambatse ambitse amapingu umugabo wambaye ikoti ndetse n'amarinete, bamwambitse amapingu.

Abagabo bane, bicaye, bambaye imyenda y'iroza, imbere yabo hari umugabo wambaye ikanzu y'umukara, ndetse irimo ibara ry'umweru mu gatuza, ni umucamanza.

Intebe zifite ibara ritukura zicayeho abantu b'abacamanza, bambaye amakanzu y'umukara ndetse afite ibara ry'umweru mu gatuza, bose bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari umugore w'umucamanza uri kurahira,

Imfungwa zambaye amabara y'iroza n'amakabutura y'iroza n'udupfukamunwa bari kumanuka mu modoka itwara imfungwa n'abagororwa.

Icyumba cy'inama kirimo abacamanza bambaye udupfukamunwa, bafite imashini imbere yabo, bambaye imyenda y'umukara n'umweru, bari mu nama.

Abagore n'abagabo, bari kurahira bafashe idarapo ry'u Rwanda, bambaye imyenda y'umukara, harimo umugore unitandiye umwitandiro w'umutuku wamanitse ukuboko.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ufite ubwanwa hejuru y'umunwa n'umusatsi n'ingohe uri kureba imbere

Abagororwa bambaye imyenda y'iroza n'abasoroviya bari kubakura mu modoka zitwara imfungwa n'abagororwa.

Umupolisi wambaye imyenda y'akazi. Ni ubururu bwijimye ndetse yambaye n'ingofero. Ari kwambika amapingu umugabo wambaye amarinete ndetse n'ikoti.

Umugabo w'umwirabura wambaye ikanzu y'abacamanza. Ifite ibara ritukura ndetse n'ibara ry'umweru mu gatuza. Uyu mugabo ari kureba imbere ndetse afite ubwanwa bukeya.

Umugabo w'umwirabura wambaye ikanzu yabacamanza ifite ibara ritukura ndetse n'umweru mu gatuza, yambariyemo ishati y'ubururu; uyu umugabo ari kureba imbere.

Abantu batanu bahagaze, batatu ni abagabo ndetse abandi babiri ni abagore. Abagabo bambaye amakoti, abagore umwe yambaye ishati undi yambaye ikoti na we ry'umukara.

Abantu benshi bambaye imyenda isa, y'abagororwa, iruhande rwabo hari igipangu kinini cyubakishije amatafari ahiye ndetse kigiye giteyeho amarange y'umuhondo, ni gereza bafungirwamo.

Umugore ufite umusatsi mukeya, yambaye amarineti ndetse yambaye ikanzu y'abacamanza ifite ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru mu gatuza.

Umuntu uri imbere y'abantu uyoboye inama ufite mikoro mu ntoki wambaye ikositime na rinete.

Abantu bane bahagaze, babiri ni abagore n'abandi babiri ni abagabo, bambaye amakanzu y'umukara ndetse afite ibara ry'umweru mu gatuza.

Umugabo w'umucamanza. Yambaye amarineti ndetse ari kureba imbere. Yambaye ikanzu itukura ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru mu gatuza.

Umuntu wambaye iroza, inyuma ye hari umusoroviya wambaye kaki, imbere ye hari umwavoka, wambaye umukara n'akantu mu ijosi k'umweru na rinete.

Umumama uhagaze wambaye umwenda wa oranje ufite mikoro muntoki, wambaye agakomo wambaye namarinete y'umukara inyuma ye hari akabati k'umukara.

Umugabo wambaye imyenda y'iroze, iruhande rwe hari abagabo babiri bambaye amakanzu y'umukara ndetse inyuma yabo hari intebe zicayeho abantu. Imbere yabo hari ameza ndetse hariho indangururamajwi n'impapuro.

Kizimyamwoto ebyiri, zifite ibara ritukura ndetse zifashishwa mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro, zifite imipira y'umukara n'iyo bafata mu gihe bari kuzimya.

Imodoka ya polisi, iyi modoka ifite ibara ry'umweru gusa ndetse hejuru hariho ibirango bya polisi, iki ni ikirango gikoreshwa mugihe habayeho ubutabazi bwihutirwa, bufite ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku.

Imodoka y'abapolisi, ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Iyi modoka ni ikamyo, ikunda gutwara abapolisi ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi.

Umupolisi wambaye umwenda w'akazi, afite inyenyeri eshatu yambaye ingofero iriho ikirangantego cya Polisi ndetse arivuga, akaboko ke k'ibumoso kariho ikirangantego cy'u Rwanda.

Umugabo uhetse kizimyamwoto. Iyi kizimyamwoto ifite ibara ry'umuhondo. Uyu mugabo yambaye isarubeti y'umukara ndetse n'ingofero y'umweru iriho ikintu kimupfuka ku munwa ndetse no mu maso, ari gupuriza ndetse ibintu by'umweru.

Imodoka iri kumanuka ya Karina n'umupolisi uhagaze uri kuri kuri moto wambaye kasike y'umweru n'ikote.

Icyapa gishinze hejuru cyanditseho Kacyiru police hospital cyerekana ivuriro rya Kacyiru ry'abapolisi. Gifite amabara y'umweru. Inyuma yaho hari n'ibiti, n'insinga z'amashanyarazi ziri kunyuraho.

Umupolisi wambaye umwenda w'akazi, uyu ni umwenda w'abapolisi bakora mu muhanda, uba urimo ibara ry'icyatsi ndetse ari kuvugana n'umugabo utwaye imodoka, ari kureba niba ibyangombwa atwaye bimwemerera gutwara iki kinyabiziga.

Umupolisi uri mu muhanda yambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'umukara ndetse irimo imirongo y'icyatsi, yanditseho polisi yazamuye akaboko k'iburyo ak'ibumoso yagatambitse yereka imodoka iri kuza ko igomba guhagarara.

Umuhanda nyabagendwa ugaragara agace gatoya, harimo moto iri kugenda mu gisate cyo hirya, ndetse hirya y'umuhanda hari umupolisi uri kuhanyura, wambaye imyenda irimo ibara ry'icyatsi.

Abantu bambaye imyenda y'umukara irimo imirongo na kasike z'umweru, bafite ibihombo biri kuzimya umuriro, biri kuvamo amazi.

Ibyuma byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, byitwa kizimyamwoto, imwe ifite ibara ritukura indi ifite ibara ry'umweru, zifite imipira, ni yo bafata igihe bari kuzimya.

Abantu bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru; inyuma yabo hari umupolisi uhahagaze, wambaye imyenda y'akazi, ndetse yambaye ikoti ririho ijire ifite ibara ry'icyatsi, inyuma ye hari urukuta rufite amatafari ahiye.

Abagore bahagaze ku mirongo myinshi bareba imbere, bambaye imishanana itandukanye n'imyenda isanzwe. Inyuma yabo hari n'ibiti.

Abantu benshi, bambaye imyenda y'imyeru ndetse iriho ibirango bya FPR, mu ntoki zabo harimo igipfunsi, kiri mu ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'umweru, ni ibirango bya FPR inkotanyi.

Umugore n'umugabo bahagaze imbere y'amadapo y'igihugu y'u Rwanda, bamanitse ukuboko bari kurahira.

Abagore bicaye ku murongo w'imbere, bambaye imyenda y'umweru ndetse iriho imyitero y'umutuku; bose bafite amadarapo ya FPR. Inyuma yabo hari abandi benshi bafite amadarapo.

Umugore w'umwirabura ufite umusatsi mukeya, yambaye amarineti ndetse yambaye ikoti ry'umukara n'ishati ifite ibara ry'ubururu, ku kaboko ke k'iburyo yambayeho isaha.

Umukandida wa FPR inkotanyi. Paul Kagame ari kwiyamamaza, iruhande rwe akikijwe n'abaturage benshi cyane bafite amadarapo y'ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, yanditseho FPR.

Abantu b'abantu bari mu cyumba k'inama bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hateretse imashini n'amacupa y'amazi harimo n'intebe ziticayeho abana.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda irimo ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umutuku; bafite amadarapo ya FPR afite ayo mabara; aha bari kwamamaza umukandida wabo Paul Kagame.

Abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ariho amakaye ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange, ku murongo w'imbere hicaye Paul Kagame yambaye ikoti ry'ubururu ndetse iruhande rwe hicaye Jeannette Kagame.

Abagabo babiri bambaye amakoti y'ubururu. Umwe yambaye amarineti undi ntayo. Inyuma yabo hari umugore uhicaye mu ntebe y'umukara. Imbere ye hateretse amazi y'Inyange.

Umugore wambaye ibitenge ndetse ahetse umwana, afite igipapuro mu kuboko kwe kw'iburyo ndetse ari kugishyira mu ndobo yagenewe gushyirwamo amajwi iyo umaze gutora, inyuma ye hari undi mugore uri kwinjira mu kazu aho batorera.

Abagore n'abagabo bafite ibitabo batoreramo, bambaye amabara y'umweru n'udukote tw'umukara, bamanitse amaboko batora.

Abagore bari mu nama, bose barahagaze bari kubyina, abandi bari gukoma amashyi, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umweru, ateretseho amazi y'inyange ndetse na ji z'inyange.

Abantu bicaye ku ntebe z'imikara. Umurongo w'imbere uriho abantu babiri, Jeannette Kagame wambaye amarineti ndetse n'ikanzu irimo ibara ry'icyatsi n'umweru. Iruhande rwe hari umugabo wambaye ikoti ndetse na karuvati.

Perezida w'u Rwanda ari kwiyamamaza yambaye umupira w'amaboko maremare w'umutuku n'ingofero y'umukara n'amarinete n'agapfukamunwa k'umukara.

Perezida w'u Rwanda na Jeannette Kagame amuhagaze impande ari kurahira, impande ye hari idarapo n'akameza kariho ikirangantego cy'u Rwanda.

Icyumba cy'inama kirimo intebe z'umukara n'abantu batandukanye abagore n'abagabo bari kureba imbere aho inama iri kubera, imbere hari abajaji batatu.

Abantu bambaye imyenda y'umweru n'ingofero z'umweru, bari kubara impapuro z'amatora ziteretse ku meza.

Abagabo babiri, bose bambaye amakoti, umwe afite ikayi mu ntoki ze, undi ari gutora igipapuro ari kugishyira aho bageneye gushyira impapuro zatoreweho.

Perezida Paul KAGAME yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru na karuvati, inyuma ye hari umufasha we Madamu Janette KAGAME, yambaye umukenyero w'ubururu ndetse n'agapira k'umukara, bari muri sitade ahantu hari abantu benshi, bose barahagaze.

Umu mama wicaye areba imbere ateze igitambaro mu mutwe wambaye amaherena na shaneti, hirya ye hari umukobwa, inyuma ye hari intebe z'ubururu.

Abaturage benshi bafite amadarapo y'ishyaka fpr iri shyaka rifite amadarapo ari mu mabara atatu umutuku umweru ndetse n'ubururu hari mo perezida wa repubulika ni we uhagarariye iri shyaka.

Abantu bari kwamamaza umukandida witwa Habineza Franke, uyu yiyamamarizaga kuyobora Repubulika y'u Rwanda mu mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, bafite icyapa kiriho ifoto ye ndetse cyanditseho tora.

Umugabo wiyamamarizaga kuyobora Repubulika y'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, yambaye ikoti ndetse n'ishati y'umweru na karuvati; imbere ye hari ibyapa bimwamamaza biriho ifoto ye, byanditseho amagambo agira ati: "indi ntambwe''.

Umukobwa n'umugabo bari kubara amajwi y'itora bayashyira mu giseke harya yabo hahagaze undi muhungu.

Umugabo w'umwirabura wambaye ikoti ndetse ishati y'umweru na karuvati. Inyuma ye hari ikirangantego cy'u Rwanda ndetse imbere ye hari icupa ry'amazi n'ikirahure.

Imodoka iri mu muhanda ifite ibara ry'umweru itwaye ibyuma ndetse inyuma yicayeho umugabo ufite terefoni mu ntoki ze, iyi modoka iri kubisikana na moto itwaye umugenzi.

Moto iparitse ifite purake ya erefu umunani rimwe rimwe je, hirya harimo n'izindi ziri mu muhanda ziri kugenda n'imodoka zimanuka.

Imodoka itwara imizigo yikoreye bakunze kwita hoho y'umutuku ikoreye umucanga iri kumanuka.

Imodoka ebyiri zitwara imizigo imwe y'ubururu n'indi y'umweru zishoreranye n'indi iri imbere yazo yikoreye imizigo imwe y'ubururu irimo umuntu.

Umuhanda nyabagendwa ugaragara igice kimwe cy'umuhanda, imbere hari guturuka imodoka ndetse iruhande rw'uyu muhanda haparitse abamotari bafite moto ziganjemo izifite ibara ritukura.

Imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse iciyeho imirongo y'umutuku. Iri mu muhanda nyabagendwa ndetse inyuma yayo hari moto ebyiri ziri kubisikana na yo. Iruhande rw'uyu muhanda hateye ibiti birebire.

Abamotari baparitse kuruhande y'umuhanda bategereje abagenzi harimo n'undi wambaye ishati y'umukara, umugenzi uri kwikora mu mufuka ajya kwishyura motari.

Imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse inyuma ifite ihema rifite ibara ry'ubururu, imbere y'iyi modoka hari umumotari uhahagaze ndetse iruhande hari umugabo wambaye imyenda y'umukara uhahagaze.

Umuhanda uri mu mifuka y'myeru ipakiyemo imizigo kuruhande hari umukarani wambaye isurubeti y'ubururu hirya hari imodoka ya ritiko bara y'umweru.

Isangano ry'imihanda rihuriyemo imodoka eshatu zijya mu byerekezo bitandukanye ndetse uyu muhanda urimo moto ebyiri nazo ziri kujya mu byerekezo bibiri bitandukanye.

Umumotari uri kumanuka ahetse umugenzi, hirya yabo hari amakamyo ari kuzamuka n'abantu bari kwambuka umuhanda, hari n'amapoto y'amatara ari mu muhanda.

Imodoka itwara abantu ba rusange ebyiri, imwe ifite ibara ry'umweru, iyindi ifite ibara ry'umuhondo n'ubururu ifunguye umuryango.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ifite amapine atatu, yagenewe gutwara imizigo iyi moto ifite ibara ry'ubururu ndetse iruhande rwayo hari izindi moto ebyiri ziri kujya mu cyerekezo kimwe.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ya kwasiteri ifite ibara ry'umweru. Iri kubisikana n'indi modoka ntoya na yo y'umweru. Iruhande rw'iyi kwasiteri hari umuyoboro w'amazi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikamyo nini ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, iri kunyura mu muhanda aho abanyamaguru bambukiranya bashaka kujya ku rundi ruhande rw'umuhanda.

Moto yagenewe gutwara imizigo, iyi moto ifite amapine atatu ndetse ifite ibara ry'ubururu, iruhande yabyo hari umugabo wambaye itaburiya y'umuhondo n'ipantaro y'ubururu uhicaye.

Inzu y'ubucuruzi imbere haparitse imodoka, mu muhanda hari kunyuramo moto z'ibiziga bibiri, n'ibiziga bitatu, ziri ku manuka.

Imodoka iri mu muhanda nyabagendwa, ifite ibara ry'umweru, yagenewe gutwara imizigo, irimo amatafari ya ruriba, afite ibara rijya kuba umuhondo ndetse iruhande rw'uyu muhanda hateye ibiti.

Imodoka iri mu muhanda ifite ibara ry'ubururu igenewe gutwara imizigo. Irimo amakese menshi. Ay'ubururu, ay'umutuku ndetse n'ay'icyatsi. Iruhande rwayo hari moto ihetse umugenzi.

Imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse inyuma ifite ibyuma bifite ibara ry'umutuku. Inyuma yayo hari indi modoka ntoya, ifite na yo ibara ry'umweru. Ndetse iburyo bw'iyi modoka hari inzu ihubatse.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ifite amapine atatu yagenewe gutwara imizigo, irafunze ku gice cy'inyuma ndetse inyuma yayo hari imodoka ifite ibara ry'ubururu ndetse nayo itwara imizigo ntabwo igaragara neza.

Imodoka iri mu muhanda ifite ibara ry'ubururu yagenewe gutwara imizigo. Itwikirije ihema ry'umukara ndetse imbere yayo hari moto. Iruhande rw'iyi modoka, hari inzu ifite amadirishya afite ibara ry'icyatsi.

Imodoka ebyiri z'imizigo z'umweru, zikoreye imifuka y'imizigo, zihagaze ziparitse. Zirindiriye kugenda.

Abantu bicaye muri gare imbere y'imodoka zitwara abagenzi n'abandi bari kumanuka muri gare harimo uwitandiye w'umusilamu.

Imodoka ifite ibara ry'umutuku iri kugaragara ku gihande cy'imbere, ndetse iruhande rw'uyu muhanda hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'umuyoboro w'amazi, ku rundi ruhande hateye ibiti birebire.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umuhondo ku gice cyo hasi, iyi modoka iruhande rwayo hari abagenzi bari guhita ndetse n'umutaka w'umuhondo uhari.

Imodoka ya bisi itwara abagenzi isa umweru n'ubururu iri kumanuka, hahagaze ku ruhande abanyamaguru uwambaye igisurubeti cya kake ufite ikoti mu ntoki n'undi wambaye ipantaro y'umweru.

Imodoka, ifite amabara y'ubururu n'umweru, ya RBA, iri kugenda, hari kaburimbo n'indi iri hirya yayo, iri manuka, ifite ibara ry'umukara.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ifite irangi ry'ubururu ndetse n'umweru. Iriho ibyapa byamamaza. Iyi modoka yagenewe gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali.

Imodoka ebyiri ziparitse, imwe inini ifite ibara ry'umukara ndetse n'icyats kibisi, indi ni akamodoka gatoya na ko gatwara abagenzi, gafite ibara ry'umweru ndetse kariho utubara tw'icyatsi dutoya.

Umuhanda uri kunyuramo imodoka za rusange zitwara abantu n'indi itwara imizigo y'mweru, itwara abantu iri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Umuhanda nyabagendwa urimo igikamyo gitwara imizigo irimo peteroli ndetse n'amazutu, kiri kwaka amatara y'umuhondo ndetse n'ay'umutuku.

Imodoka itwara imizigo zihagaze ku ruhande, imwe y'ubururu n'indi y'umweru imbere yayo, ku ruhande haparitse igare hagati yazo hirya hari kuzamuka imodoka y'ivatiri.

Imodoka yagenewe gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, ifite ibara ry'umweru ndetse n'amabara y'umuhondo ku gice cyo hasi, iyi modoka iparitse iruhande rw'intebe zagenewe abagenzi, izi ntebe ziriho ibyapa byamamaza.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi, iki kibuga gikinirwamo umupira w'amaguru ndetse iruhande rw'iki kibuga hateye ibiti byinshi ndetse birebire.

Amashuri y'abana afite amabara y'umuhondo n'ubururu, hirya hari etaje y'amatafari ahiye, hejuru hari ibigega.

Ikibuga kirimo ubucaca, iruhande rw'iki kibuga hari agasozi ndetse kariho intebe abantu bicaraho igihe bari kureba umupira ndetse inyuma y'izi ntebe hari ibiti byinshi.

Umuhanda munini urimo ibikamyo, ndetse uyu muhanda hagati yawo n'undi harimo ibyapa, bifite ibara ry'icyatsi, n'ikindi gifite ibara ry'umweru.

Icyapa gishyirwa ku muhanda gifite ishusho y'umuhondo, iki cyapa kirerekana ko utagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu mu gihe cy'isaha, uyu ni umuvuduko ugenderwaho n'ibinyabiziga byose bifite moteri.

Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa wa mirongo ine gishinze ku muhanda cyegereye urukuta rw'amabuye rwa mweru n'umukara n'igiti giteye hejuru.

Icyapa kiriho amerekezo, uyu mwambi ukomeza urerekana yuko ukomeje ujya ku Kanyaru, i Huye ndetse n'imuhanga, wakata mu kaboko k'ibumoso ukaba ugiye i Ruhango ndetse na Kinazi.

Icyapa cyamabara, umweru, umutuku , cyerekana aho banyura abanyamaguru bambuka gishinze ku ruhande y'umuhanda.

Icyapa gishinze ku muhanda kiri mumabara y'umweru n'umutuku kiburira cyerekana y'uko hari aho banyura abanyamaguru bambuka n'ipoto inyuma yacyo.

Icyapa kiri kiburira, kiri mu mabara y'umweru, n'umutuku, n'umukara, cyerekana aho banyura, abanyamaguru bambukira.

Icyapa gishinze imihande y'umuhanda kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru byerekana ko imbere hari dodani inyuma yacyo hari igiti gishinze no hirya hari imodoka.

Icyapa cyerekana, kiburira ko imbere harimo umuhanda w'isangano imbere gato.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu cyerekana yuko aho hahagararwa, na tagisi yemewe kuhahagarara.

Icyapa gishyirwa iburyo bw'umuhanda kirerekana ko imbere hari umuhanda ukata iburyo ndetse n'undi ukomeza gifite ibara ry'umweru ndetse na mpande eshatu zizengurutse n'ibara ritukura.

Icyupa kiburira kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru n'umukara cyerekana yuko utagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itatu mu isaha.

Icyapa gifite mpande eshatu, ibara ry'umweru ndetse kizengurutse nk'ibara ritukura, iki cyapa giteye mu byatsi, gishyirwa ku muhanda kugira ngo cyerekane ko imbere hari ikorosi rikata mu iburyo.

Icyapai kibuza gifite amabara y'umutuku n'umweru hanyijemo imodoka ebyiri z'umutuku n'umweru yerekana y'uko habujijwe kunyuranaho.

Icyapa gishyirwa ku muhanda, kibuza imodoka gutambuka, gifite ishusho y'umweru ndetse gishushanyijemo imodoka, ikaba iciyemo umurongo utukura, ndetse iki cyapa cyanditseho ko nta parikingi yemerewe.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibiti imbere yayo, haparitse n'imodoka z'umweru na gire, abaturage bahagaze, harimo abambaye amashati y'umweru n'ingofero.

Urujya n'uruza rwabantu bari imbere yinzu yubucuruzi, abamotari mumodoka yaparitse, imbere yayo n'abantu paritse, imbere yayo harimo umumotari wambaye kasike y'umuhondo n'ijoro y'umuhondo.

Inzu zifite amabati y'umutuku, impande hagiye harimo ibiti, inyuma yaho hari sitade amahoro izengurutse.

Inzu y'igorofa ifite ibara ry'umuhondo ndetse ku gice cyo hejuru, ifite imireko ifite ibara ritukura ndetse hejuru y'inzu hariho ibigega bitatu bifite ibara ry'umukara.

Inzu ifite urukuta ruzamutse kugera ruguru, imbere harimo inzu isakaje amabati y'umutuku, ruguru yayo hari ahandi hagiye hamanitse ibigega.

Uruzitiro rwa senyenge rushinzeho ibyuma bifite ibara ritukura ndetse muri uru ruzitiro harimo ibyatsi byinshi, ukomeje hari inzu nziza y'igorofa yubakishije amatafari ahiye.

Moto ebyiri zihagaze, imwe iri mu ibara ry'umutuku yambaye purake RG, iyindi na yo y'umukara iri kureba imanuka, imbere hicaye umuntu.

Urukuta rw'inzu rwubakishije amabuye na sima rurimo gusa umweru rufite amatara hejuru n'indabo hasi.

Umuhanda uri kunyuramo abantu batandukanye urimo: amamodoka. n'amagare n'abandi bari kwambuka n'umukobwa uri kumanuka wambaye ipantaro y'umweru n'igikapu mu.

Imodoka ebyiri ziri mu mabara y'umutuku n'umukara n'abantu bari gutambuka hirya bambaye amapantaro y'umukara n'umweru.

Inzu ifite ibara ry'ubururu ndetse iriho ibirahuri birebire bifite nabyo ibara ry'ubururu. Iyi nzu yanditseho amagambo agira ati: "amakaro n'ibikoresho by'ubwubatsi". Imbere y'iyi nzu haparitse imodoka ifite ibara ry'ubururu.

Icyapa cyerekana ko aha hari ubwubatsi, kiri mu birango by'umukara n'ubururu bifite ikirangatego cy'igihugu n'idarapo ry'u Rwanda.

Aho imodoka zinyura munsi y'umuhanda n'undi hejuru harimo imodoka iri kunyura aho banyura bazengurutse n'icyapa hirya kiri mu kirango cy'ubururu n'umweru cyerekana aho banyura bazengurutse.

Imodoka ziri kunyuranaho harimo iy'umutuku n'indi ya gara iri kuzamuka hirya y'umuhanda hateye ipoto y'amatara n'icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru.

Moto iri mu muhanda nyabagendwa, iriho umugabo wambaye kasike itukura ndetse n'imyenda irimo ibara ry'umukara; iruhande rw'umuhanda hari agasozi gateyeho ibiti.

Umuhanda nyabagendwa, ufite ikiraro hejuru yawo, uyu muhanda wo hasi harimo moto ndetse n'igare, iri gare rihetse imifuka ndetse iyi moto ihetse umugenzi, hejuru y'uyu muhanda, icyo kiraro kiriho nacyo gifite umuhanda unyurwaho n'ibinyabiziga.

Imodoka ihagaze imbere y'aho bambukira umunyamaguru uri kwambuka mu isangano ry'umuhanda n'undi uri kumanuka hirya.

Icyapa gishinze hepfo y'umuhanda cyerekana ahantu uri bukatire hari ahajya Nyarugenge rashoni buraza n'ahandi hajya Kigali siti senta inyuma yacyo hari ibiti.

Umuhanda nyabagendwa urimo umurongo ucagaguye, ufite ibara ry'umuhondo ndetse urimo ibyerekezo cyangwa ibimenyetso byerekana ko ari ugukomeza, iruhande rw'uyu muhanda hahagaze umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo uteyeho ibyatsi hagati harimo n'aho banyura bazengurutse harimo na moto iri kunyuramo n'imodoka hirya y'aho.

Umuhanda ugaragara igice kimwe cy'umuhanda ndetse ufite ikorosi, iruhande rw'umuhanda mu kaboko k'ibumoso hari akayira k'abanyamaguru ndetse iruhande rw'akayira k'abanyamaguru hateye ibiti n'ubucaca.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ebyiri ziriho abamotari gusa, iruhande rw'uyu muhanda hari inzira y'abanyamaguru irimo umugore ukenyeye igitenge ndetse iruhande rw'uyu muhanda hari icyapa cyanditseho k, g, gatandatu icyenda umunani.

Imihanda irimo amasangano aho abanyamaguru bari kwambukira hari na moto ziri kunyuraho, imodoka ziri kuzamuka.

Icyapa cyerekana yuko aho hataparikwa umwanya munini kiri impande y'umuhanda, hirya hari n'ibiti hari na rigori ku ruhande.

Moto ziri mu isangano y'umuhanda, moto ihetse umugenzi n'izindi zizamuka ziri mu isangano y'umuhanda, mu muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda urimo moto ziri gutambuka ku ruhande hateye ibiti byinshi n'amapoto y'amatara.

Umuhanda abanyuramo bazengurutse urimo imodoka na moto, moto iheetse umugenzi wambaye umupira w'imbeho, uhetse n'igikapu, n'imodoka y'umukara iri kwinjira mu isangano.

Umuhanda unyura hejuru no hasi ufite aho banyura bazengurutse n'icyapa mu kirango cy'ubururu cyerekana n'umweru cyerekana banyura bazengurutse n'ibiti inyuma yacyo na moto iri kugenda.

Umuhanda werekana aho bahagarara akanya gato ku ruhande urimo hirya imodoka ziri kuzamuka harimo iy'umweru na moto ziri kumanuka.

Umuhanda wi'bisate byinshi , urimo imodoka ziri kunyuramo , harimo kwasiteri y'umuhondo iri gukata, imodoka y'umukara iri kumanuka.